Iyi ni ishusho igaragaza agapapuro gatoya, komekwa ku gicuruzwa kerekana aho cyakorewe, nimero cyasohokanye mu ruganda n'ubwoko bw'icyo gikoresho.

Iki ni igikoresho gifite umupira muremure cyomekwa ku gikuta cyifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro mu kuyizimya.

Iyi ni ishusho yerekana umukozi wa leta ushinzwe umutekano, ari mu kazi ke ka buri munsi ndetse yambaye n'impuzankano z'akazi akora.